Ababa barinda umutekano baba mu bihugu byose bibaga ku isi baba bakunda igihugu cyabo, abanyagihugu nabo barabakunda kuko iyo bababonye biremamo icyizere cyuuko umutekano wabo urinzwe.

Iyo ndikugenda ahurira abantu benshi ngomba gukurikiza amategeko yashyizweho nyura mu nzira yagenewe abanyamaguru, kugira ngo nirinde impanuka zambaho ,kandi ngende nubahirije amategeko y'umuhanda.

Ni byiza ko ikintu cyose umuntu akigeraho ubumenyi buba bungana, abantu bagira abantu babamenyesha ubwo bumenyi, babufata kimwe, babukoresha kimwe, babukoresha igihe ari ngombwa, kuko bose baba barabibwiriwe hamwe.

Inzego ziba zishinzwe umutekano zigomba kugira ibintu biziranga, zigira impuzankano ziziranga, zikagira abayobozi baziyobora, ziba mu byiciro bitandukanye kugira ngo uzibonye wese azimenye.

Mbere abatwaraga ibinyabiziga bagendaga bari kuvuduka uko biboneye，none ubu ngubu babahaye icyuma kibereka ko bari kugira umuvuduko ukabije， ni yo mpamvu bitakiri cyane， kugira impanuka mu muhanda.

Ubumenyi butangwa n'umuntu umwe akabugeza ku bantu benshi, babufata icyarimwe bakabujyana mu mujyo umwe, buri wese aba afite ibisobanuro bisa n'ibya mugenzi we.

Ababaga bahuje intego bahuzaga ibitekerezo barasabana, bajya inama, basenyera umugozi umwe. Intego zabo ziba zisa kugira ngo bahuze ibikorwa byabo.

Isomo rigiye neza ritangirwa ahantu haba hateraniye abantu benshi. Barifata icyarimwe, babitwara kimwe. Urabaha na bo bagatinyuka bagakora, kugira ngo urebe ko isomo ryawe ryacengeye cyane.

Buri kintu cyose bitewe n'uburyo kiba gikozemo cyagira ikibazo, ariko kirakemuka kuko bakijyana aho gikwiye kujya ikibazo cyikigwa neza kigasuzumwa, gikemuka nta ngorane kuko haba hariho abashinzwe kuba bakemura icyo kibazo.

Abashinzwe umutekano bagira ibibaranga, bagira uburyo birinda, barikamufura bagakora umurimo wabo uko bikwiye, ntibagire imbogamizi zibazitira.

Uburyo bwo kwiga no kwigisha buba kwinshi, hari uburyo bwo kwigira hamwe bose bagafatira icyari rimwe ikintu kimwe, hari n'ubundi bwo kwiga umwumwe ariko byose biba ingirakamaro cyane ni byiza rero gukomeza uwo muco.

Imyitwarire iranga umuntu iba ingenzi, imuha agaciro kanini cyane, ituma yemerwa n'abantu baba batandukanye, mu kazi ke aba inyamibwa kuko aba ari indakemwa aho aba ari hose.

Dukangurirwa kugira isuku ahantu hose hashoboka. Aho dukorera, aho dutuye, aho tugenda. Hose hose hagomba kuba hafite isuku ishimishije, kugira ngo tubashe kuba twagira ubuzima bwiza.

Iyo igihugu kigira imiyoborere myiza ,abakiyobora bagira igihe barahura, bakicarana bungurana ibitekerezo ,bajyaga inama y'icyo bakora ,kugira ngo imibereho y'abaturage ibe myiza.

Itsinda runaka ni ngombwa ko rigomba kuba rifite abantu bariyobora, imyenda iriranga, aho rigomba kuba rikorera, rikaba rizwi n'ubuyobozi kugira ngo rimenye uko rikora.

Abayobozi bagira ibitekerezo bitandukanye, bigomba kubaka ubuzima bw 'abaturage bayobora, ni ngombwa ko, bagaragaza imbogamizi z'abaturage baba bafite, kugira ngo ibibazo byabo bikemuke, ku buryo bwiza.

Iyo amabwiriza yaje agomba gushyirwa mu bikorwa, kandi abagomba kuyashyira mu bikorwa bwa mbere ni abayakuriye, kugira ngo n'abari hasi babarebereho, bityo intego igerweho ntawe ibangamira, kuko bose babona basa.

Imiyoborere myiza y'Igihugu ishingira ku bwisanzure abaturage bagirana n'abayobozi. Batanga ibitekerezo bibaniga, bakabaza ibibazo bibabangamira, bityo ubuyobozi bukabafasha kubikemura nta ntugunda bigateza imbere abaturage.

Ibikorwa by'imyidagaduro mu buzima bwa muntu, biba ingenzi yizihira abamureba arizihirwa ku giti ke, usanga binogeye ijisho kandi bikoranye n'ubuhanga ntabwo buri wese apfa kubishobora.

Umwuga w'ububoshi ni mwiza, kuko urakundwa cyane mu giturage ki'cyaro, ntawe uba adatunze icyo gikoresho iwe cyifashishwa mu mihango yo gushyingura, kwanika imyaka itandukanye, kwicaraho n'ibindi.

Mu muco wa kinyarwanda twifashishaga igikoresho gitatse neza. Cyabaga gitatse nyamuraza, kikagira isura inogeye amaso. Warakirebaga ukagikunda, cyakoreshwaga mu kigwi cy'urugi.

Igikoresho gakondo gikozwe muri rumwe mu rugingo rw'amatungo, cyifashishwa mu birori ,kigacurangwa mu buryo bwa gakondo, duharanire kwita kuri ibyo bikoresho gakondo n'abato babimenye.

Iyo wishimiye ,igikorwa uba uri gukora ushimisha n'ababa bari kukureba ,umutima wawe ugacya, ukaruhuka ,ugira akanyamuneza ,bityo ubuzima bugakomeza nta ndishyi bufite.

Umuntu iyo azindukiye mugenzi we, agera ku irembo agahagarara, aramanza agasuhuza ,baramwikiririza bakabona kuza kureba uwo ari we, ni wo muco mwiza wa kinyarwanda.

Ubutabera bugirira akamaro abaturage. Burenganura uwarenganye, bwunga abashyamiranye, burahana, bukurikiza amategeko, ntabwo bwihisha.

Imyidagaduro iba myiza yizihira abayireba, ndetse n'abayikora ikabizihira, niyo mpamvu kwidagadura mu buzima biba byiza kuko bifite icyo byongera ku buzima bwa muntu.

Igikoresho gakondo gikoreshwa, mu mirimo itandukanye, bacyanikaho, bakicaraho, hamwe banakiryamaho, ugasanga n'ikingenzi ndetse no mu muhango, wo gushingura baracyifashisha.

Umurimo wose wakorwa n'abantu b'ingeri zitandukanye， buri wese yawukora neza kandi akawutunganya， agategura ibyo agomba gutegura， bitarindiye ko ari umuntu runaka ugomba kuba yabikora wenyine， cyane cyane ko， uwo muco wari uwo hambere.

Ibikoresho bimwe abantu bifashishaga mu kwizihiza abantu wasangaga ari ibya gakondo, ubu henshi ntabwo bibaho urabireba ukabona ni byiza cyane, ariko aho babibona ni hakeya.

Igikoresho kiba ari cyiza cyane, kibera ijisho, kirakomera kifashishwa mu bintu bitandukanye, cyane cyane mu makwe usanga ari cyo kiri imbere.

Umusaruro wamaze kugera mu rugo ugirirwa isuku, kugira ngo ubikwe usa neza, no mu kujya kuwuteka ubanza wawutunganya kugira ngo imyanda ivemo.

Mu buzima bwa muntu agomba gukora ibintu bimutezaga imbere, ariko akagira n'igihe cyo kwidagadura agatarama, agashimisha abantu bari kumureba, ndetse n'abari kumwumva, umubiri we ukaruhuka.

Uruganda gakondo rwo kwenga hifashishijwe ikintu gikozwe mu giti , igikoze muri parasitiki , igikoze mu mwungu , hanyuma imbaraga zacu z'umuntu uruganda rugakora nta muriro w'amashanyarazi bisabye nta n'ingufu z'izuba.

Igikoresho gikoze mu giti gifukuye twakoreshaga turi kwenga ibitoke, twarangizaga kwenga tugakamura dukoresheje ikintu cyabaga gikoze mu biti, tugakuramo umutobe.

Igikoresho gakondo gikundwa cyane n'abantu bamwe mu bakuru aragitamira, gifite n'itiyo icamo umwotsi, gikundwa cyane n'abantu banywa icyo bita itabi.

Igikoresho cya gakondo cyeraga ku ruyuzi bitaga umwungu, bakinyweshaga umusururu, inzoga iyo cyabaga cyuzuye twakibangiraga akagata tugaterekaho, ubu ntabwo cyapfa kuboneka ahantu hose.

Itsinda runaka rigomba kuba rifite ibintu biba biriranga, aho riba rikorera, ibikoresho riba rikoresha, imyenda ibiranga, ku buryo ugomba guhura na ryo ukamenya ngo iringiri ni rya tsinda njya mbona.

Igikoresho cy'ingenzi, mu bijyanye n'ubworozi bw'amatungo maremare yitwa inka, cyera ku ruyuzi rwitwa umwungu kifashishwa mu murimo wo gucunda amata, ndetse mu cyifuzo cyiza bakwifuriza kugihorana.

Abantu baba bafite igikorwa bahuriyeho, baba bafite umugambi umwe, intego zimwe, intekerezo zimwe, imyitwarire imwe, usanga ari byiza cyane kuko bose baba basa.

Ubworozi bukoze neza bugirira nyirabwo akamaro, bukakagirira n'igihugu. Butanga amata, inyama, amafaranga. Mu muco nyarwanda buzana umugeni, bityo bukaba ari ingirakamaro kanini.

Igikoresho cya muzika cya gakondo cyakoreshwaga n'umuntu utari uwo ari we wese, cyaracurangaga ugasanga binogeye amatwi kandi birizihiza, kuko ubuhanga bikoranye n'ubuhanga bikoreshwa ni bwinshi cyane.

Igikoresho kiba ari ingenzi mu mwuga w'ubuhinzi, bacyifashisha kugira ngo bakore igikoresho gifatika cy'ubuhinzi, utagifite ntabwo byavamo, kuko ntiwagira igikoresho cyuzuye.

Uruganda rwa gakondo rudasaba umuriro w'amashanyarazi cyangwa umurasire w'izuba, hakora imbaraga gusa, ibikoresho ni igikoresho gikoze mu giti, icyavuye mu mwungu, igikoresho cya palasitike ahasigaye umutobe ukaboneka.

kwiyereka ntabwo kuba ari ukurwana, ni ibintu biba bikoranye ubuhanga bwinshi cyane. N,tabwo buri wese apfa kubishobora kuko biratozwa, birigishwa kandi utabishoboye ntabwo abikora.

Igikoresho cyifashishwa mu birori cyari n'inyamibwa kera na n'ubu, iyo ubihuje birenze kimwe amajwi yabyo anyuranyuranamo, ukumva ni byiza cyane bifite injyana mu matwi.

Ni igikoresho gakondo cyifashishwaga mu butetsi cyatekerwagamo ibiryo by'amoko yose, cyaryoshyaga akanyama, ibirunge, ugasanga bimeze neza kandi ntabwo byapfaga guhora.

Igikoresho gakondo gicurangishwa, gikoreshwa mu buryo utapfa kumenya buri wese, gicuranga neza, kandi gikoranywe ubuhanga buhanitse cyane, ukirebye ntiwamenya ko kigira ijwi riba ryiza.

Igikoresho gakondo kifashishwaga mu bijanye n'ubworozi bw'amatungo maremare. Cyabikaga neza amata kikayatereka. Uwifurizwaga ineza bamubwiraga ko agomba guhora ateretse muri icyo gikoresho ,bityo akishima cyane.

Twataraga ibitoke byamara gushya, tukabikama byitwa ngo ni ukwenga; bikorerwa mu gikoresho gakondo gikoze mu giti gifukuye, twashigishiragamo n'ibigage. Twinikagamo n'amasaka bita ngo kuyaroha.

Turahimbarwa， turahimbaza， turizihirwa， tukizihiza abandi，dukuramo ubumenyi，ibyishimo biraza， urukundo ruba rwinshi，n’ intego iba imwe.

Kwa nyogokuru wabyaraga dawe, habagayo ibikoresho gakondo bifashishaga mu birori, mu gihe bafataga amafunguro, banywaga amata, bikaba byarabaga ari byiza cyane.

Urugo rwa kera rwabaga ari urugo rushariye, rufite umutekano uhagije, nta muntu wapfaga kurumeneramo uko yishakiye, kuko rwabaga rufite umutekano uhagije.

Ubumenyi n'ubushobozi ku kintu runaka cyangwa igikorwa runaka, ni byiza cyane kuko bituma ubireba wese abona ko hari icyo muba muhuriyeho, kandi akabona ko hari n'aho muba mubikomora.

Kwa Mihigo bagiraga akazu mu mbuga， kabaga kameze nk'agateruye， bahunikagamo imyaka yabo，ugasanga harimo ibirayi， amasaka， ibigori biba bidahunguye， byose byose byabaga birimo，nta wabyibaga kandi ntabwo bagakingaga.

Kumenya ibyo bita ubukorikori ni byiza cyane, bigira imitako myiza inogeye amaso, urabireba ukabona ni sawa, barabitaka mu nzu ukabona ni byiza, yewe nawe washishikarira kubimenya kuko na nyirabyo agira ako yibikaho kajyanye n'ifaranga.

Igikoresho nyarwanda gikoze neza, gisa neza, kibika ibintu neza, cyatwaraga ibintu neza, mu muco nyarwanda iyo kigaragaza, iki gikoresho ni kiza cyane.

Igikoresho kiba gikoze mu ibumba ry'igitaka, baracana bakagitwika, kigatukura, kikagira akabara keza, n'ikindi cya gakondo gikoze mu bwatsi, amabara yacyo usanga ari kubengerana.

Ubworozi bw'amatungo maremare aba abereye ijisho, baba bari kuyareba ubona ari byiza cyane, yizihira nyirayo, akunda ibintu byose, kandi amenya amazina yayo.

Umuco wacu ni mwiza, wo kwicarana tugasangira ibyo tuba dufite, uhuza inshuti n'abavandimwe, ukongera ugasa mu myambarire ya kinyarwanda, abakobwa barashananisha, ugasanga ari ntako bisa.

Ingendo z'abantu ziba zitandukanye, turagenda tukagera aho tuba tugiye, tugerayo nta kibazo na kimwe tugize.

Igikoresho cya kera cyabaga cyaravuye mu ruyuzi rwitwaga umwungu. Cyabikwaga neza, cyamanikwaga ahantu kigakoreshwa igihe cyacyo ari uko kigeze, ubu gisigaye hake.

Umwuga w'ububumbyi wiganje mu gace k'amakoro. babumbaga ibintu bitandukanye harimo ibyo bitaga amavaze, inkono batekeragamo kera, bagiraga n'ibyo bitaga ibibindi n'intango bashyiragamo amaharwa, byose bibumbwa mu ibumba.

Kera iwacu twari dutuye ahantu hitwa urusisiro ,twasabanaga amazi, twarahuranaga umuriro ,twarasuranaga ,twagiraga n'ikigega mu mbuga kwahunikagamo imyaka, ugasanga ntakibazo ifite.

Umunyarwandakazi agira umuco we w'imyambarire umuranga, akagira uburyo asokoza, akagira imyambaro akoresha yihariye kugira ngo agaragare nk'Umunyarwandakazi.

Ibikoresho biba bikoze mu mpu n'ibiti byifashishwa mu birori, bakaragaho, bakubitaho igiti babikaraga banyuranyije amajwi ukumva biri kuvuga neza, iyo ababikora bazi kubikora usanga ari byiza cyane wabireba ugakererwa.

Zaninka yizihira abari kumureba iyo ari kubyina, atumirwa mu birori hose, arabashimisha kakahava, ugira ngo nta gufawa afite!

Umurimo wose ubera nyirawo iyo awukoranye imbaraga, ubushake ibyishimo byinshi, akabikora abishyizeho umutima we wose kandi azi neza icyo ari gukora, ugasanga ari sawa cyane.

Ubukorikori ni inkingi y'iterambere ku muntu wese ubukora. Yibikaho amafaranga, agirirwa icyizere aho ari, kandi ugasanga bimufashije mu buzima bwe agira bwa buri munsi.

Igikoresho cyifashishwa mu kugama imvura cyangwa izuba cyabaga gikomeye, gikozwe mu byitwaga ibirere, cyafashaga uri kugikoresha kwirinda ibyo byombi kugira ngo agire umutekano usesuye.

Umurimo wose umuntu akora agomba kuwukora awishimiye. Akereka abamureba ko nta ndishyi agira ku mutima, bityo akizihira abaje kumusura ndetse no kumureba, bikabashimisha cyane.

Ahantu hagomba gukoreshwa ibyo hagenewe gukoreshwa gusa, harindwa amazi, harindwa, ibyuma, hakoreshwa icyo hagomba gukoreshwa, kugira ngo hirindwe ingufu ziba zitagaragara zagirarira ingaruka.

Ikoranabuhanga riba riteye ukuntu gutandukanye ni byiza ko buri wese agomba gukora ibyo aba azi afiteho ubumenyi kugira ngo atajya agira ibyo yica kandi hari uko bikorwa.

Hari ibintu bijyanye n'ingufu ureba ntube wamenya ko bifite ingufu zihanitse, wakoraho nabi bikaguterura bikaba byagutwarira ubuzima bwawe. Cyane cyane iyo wihaye kubicokoza utazi uko bikoreshwa.

Ikoranabuhanga, ryorohereza abaturage kubona serivisi zihuse, kandi Isi itera imbere. Tujye dushishikarira kugira ubumenyi bwo kurikoresha, ndetse no kubishishikariza abandi.

Igikoresho gifite imbaraga kiba gikomeye cyane. Ibyananiwe gufunguka byose bagwadikamo kirabifungura. Ukirebeye inyuma ntabwo wamenya ko ubwo buhanga kibugira n'ubushobozi bwacyo.

Ikoranabuhanga ni ingenzi mu iterambere ry'igihugu cyacu. Ni ngombwa ko igihugu kigomba kugira abantu bagira ubwinge bwo gukoresha iryo koranabuhanga mu ngeri zose zitandukanye bagomba kuba barimo kugira ngo bajye bafasha abandi.

Inzego ziba ari iz'ubuyobozi ndetse n'iziba ari iz'umutekano nazo zitembera mu giturage, n'abaturage ntago bazishisha, barazakirara ugasanga ari ibintu bibaga bimeze neza cyane, kuko bose bakorera igihugu cyabo basenyera umugozi umwe.

Mu myemerere yacu dusenga iminsi yose, tugasenga amasaha yose ,tuzirikana ibyiza Imana itugirira ,urukundo yaduhaye n'ukuntu twizera mu gihe kizaza imibereho zacu.

Ahantu haba igikorwa runaka ni ngombwa ko haba hafite ibiharanga ,umutekano w'aho uburyo ucungwa ,abahakora uburyo bahinjira kuko hatavogerwa uko hishakiye.

Ibikorwaremezo biba bifitiye abaturage akamaro kanini cyane, kuko bituma bagira iterambere bashaka kugeraho, kandi imikorere y'iki gihe yiganje cyane ku bijyanye n'ibikorwaremezo.

Mu mibereho ya muntu, ni byiza ko agira aho yajya gushimira Imana iba yaramuremye, agira amarangamutima amuhitishamo ubwoko bwaho asengera, ni ngombwa ko rero buri wese agira aho aherereye.

Mbere warebaga ahantu hakakurambira，kubera uko wabaga uri kuhareba， ugakatakata amakorosi akakurambira， ariko ubu amajyambere yaraje， Ni uguca mu kirere，ukaba nk’aho uri mu ndege kandi uhagaze.

Mu mategeko y'igihugu ugomba kugendera ahantu habugenewe, buri wese mu cyiciro ke ugomba kuba uhagaraye, ahantu hangombwa ugomba guhagarara kugira ngo utica amategeko ya leta.

Kugira ubusitani ahantu tuba dufite inyubako ni byiza cyane, kuko buri wese abona uburyo bwo kwidagadura. Biturinda no kuba twatarukirwa n'icyondo, ariko ni byiza ko habamo utuyira banyuramo, kugira ngo buri wese agire aho agera.

Iyo igihugu kiba kigira abantu bamenya gukoresha ibijyana n'ikoranabuhanga bikigirira umumaro, bituma batava hanze ngo baze muri icyo gihugu, kandi n'icyo gihugu gifite abahanga babizi bifasha imiryango myinshi.

Inyubako zijyanye n'igihe zigomba kuba ziri ahantu hemewe hajyanye n'amabwiriza ya Leta . Zigomba kuba zisukuye , wahareba ugasanga hanogeye amaso, hari umuriro w'amashanyarazi, byose bihari.

Iburezi ni inkingi y'iterambere ni ngombwa ko umwana wese yagira aho ahererwa ubumenyi agomba kugira ibimuranga harimo imyenda y'ishuri kandi zifite isuku n'inkweto, amakaye yigiramo, amakaramu n'ibindi.

Iyo ahantu hasa n'ahahurira abantu benshi ni ngombwa ko hagomba kuba hafite n'aho bisukuririra, bagasa neza bagatangira umurimo wabo ntawe ufite umwanda mu ntoki wamwanduza uburwayi.

Ubuyobozi bwiza bukora neza, bugira ibintu bitandukanye, bugira abaturage, bugira aho bukorera, abakozi bahakora, ibintu bikagenda neza, kuko buba bureberera n'abaturage.

Ibidukikije bidufasha byinshi bikurura umwuka duhumeka, biturinda umuyaga wadusenyera amazu, bikadufasha mu bijyanye no gucana, ndetse n'aho biri ubona hanogeye ijisho, bityo rero umumaro wabyo ni munini cyane.

Ahantu hahurira imodoka akangari, uragenda ugahitamo iyo ushaka kujyamo ngo ikujyane aho ugiye, batanga amafaranga yo kugira ngo bagereyo. Biterwa n'aho ushaka kujya.

Ni ngombwa ko tuba dufite ibikorwaremezo biba biramba. Tugira aho twisanga tujyana ibibazo byacu, n'abo tubijyanira bakagira aho baba bari, kuko ubuyobozi bwiza ni byo biburanga.

Ibikorwa by'iterambere biba ari byiza mu mibereho z'umunyarwanda cyangwa undi muntu uwo ari we wese, iyo uri aho amatara yaka nijoro, ukagenda ahantu heza hataba ibyondo usanga ari ntako bisa, imvura yagwa, itagwa.

Kwishima ni ngombwa mu buzima bwa muntu . Biba byiza ,biranezeza, abavandimwe na bo barishima. Umubano uragwira kuko uhuza abantu benshi cyane.

Abantu bahuje umurimo bahuza imyambarire, bagasangira ingendo, bagasangira byose, kuko byose baba babihuriyeho, ntiwavangura umoto n'umukuru kuko bose baba bari mu ngeri zimwe.

Mu cyaro cyacu nta muriro cyera twagiraga, none ubu umuriro w'amashanyarazi ubu turawufite, buri muturage akanda ku gikuta maze agacana. Tukishimira iryo terambere kuko twumvaga bitashoboka ariko byaradushobokeye.

Aho dutuye ni ngombwa ko hagomba kuba hagirirwa isuku，hagahora hafite isura isa neza，uhareba wese akumva ko hari amahumbezi amezeze neza. Niyo mpamvu dushishikarizwa gukora isuku.

Mbere yuko abakora umurimo runaka batangira gukora, bagomba kujya aho bahurira bakagira ibyo baganiraho, ibyo basuzuma bakabyigaho kugira ngo umurimo wabo unoge kandi utangirire igihe.

Ni byiza buri wese agira imyizerere ye. Aho abyerekera Imana ye. Urukundo akunda bagenzi be. Ibikorwa akorera aho atuye ibyo byo biranga umuntu muzima.

Iyo hari ubutumwa ushaka kuba wageza ku bantu, urabahamagara ukabashira ahantu hagari cyane. Ububagezaho kugira ngo bumve, bumvire kandi bumvira hamwe, batwara ibintu kimwe kandi babikora kimwe.

Abayobozi beza， bazi icyo bagomba kuba bakorera abo bayoboye， bagira umwanya wo kwicara bakagirana icyo bitaga inama nyunguranabitekerezo， kugira ngo bateze abaturage babo imbere，bari no kubashakira icyabazamura， ngo bikure mu bukene.

Abantu bafite inzego baba bahagarariye, ni ngombwa ko bagira igihe bagahura bakagira ibyo baganiraho, bemeranya bimwe mubyo bagomba gukora, kugira ngo abo bahagarariye bakomeze biteze imbere cyane.

Akuzuye umutima gasesekara ku munywa. Iyo ufite ibyishimo urabigaragaza, akababaro ukakagaragaza, ikibazo ukakibaza. Iyo ubonye uruvugiro ibyo byose ubuyobozi bwacu burabiduha.

Iyo ndajya ku kazi mbyuka mu gitondo ngateka igikoma, nagihisha nkagenda nkajya gutega, mpita mbona imodoka ntabwo nkererwa ngerayo vuba.

Hari uburyo bwinshi bwo gutwara imizigo hari ububa bwemewe n'amabwiriza ,hari n'ububa butemewe bunyuranyije na yo ,niyo mpamvu abafite ibyo bakora bijyanye n'ibyo basabwa kwitwararika mu byo bakora.

Ngewe nshimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ku buryo buba bworoheje uburyo bw'imigenderanire y'ibihugu tuba twegeranye ,kugira ngo abaturage bajye bava hirya baze hino, n'abandi bave hino bajye hirya, nta ngorane bibateye njjewe ndabishima.

Umugore na we agira imbaraga, agira ubumenyi n'ubushobozi. Na we nta cyo atashobora gukora, akorera urugo rwe yungura umuryango we, byose na we yabishobora.

Ibihugu birahahirana kimwe kigemuriraga ikindi ibyo kiba kidafite. Inzara irashira bitewe n'ukuntu bikorera iyo myaka ikagera ku bayikeneye.

Gutanga igitekerezo udategwa biba byiza ,kuko ugaragaza ibyo wishimira, ukagaragaza ibikubangamira, bityo n'abari kukubaza bakagira ubuvugizi bagukorera, cyangwa se ibyishimo byawe bakagira aho babigeza.

Ahantu hahurira abantu benshi cyane ni ngombwa ko baba bafite ibibaranga, amafaranga yo gutegesha, abantu babayobora kugira ngo bareke kuyobagurika, bityo bagere iyo bajya nta nkomyi.

Amasaha yose ingendo ziba ziri gukorwa, buri saha igira umuntu urahagurukana abagenzi akabajyana aho bakwiye kuzajya, undi arabagarukana, gutyo gutyo, bagenda bari gusimburana, kugira ngo icyo gikorwa cye guhagarara.

Buri muntu wese na buri kintu cyose, iyo kiri mu mwanya wacyo ubona ari byiza, nta kibangamira ikindi nta n'ubangamira undi. Buri wese akora ibigomba gukorwa ntawijujutiye undi, kandi iyo ibintu biri mu mwanya wabyo ubona bitanze isura nziza.

Mu ngendo zose zijya zikorwa habamo abantu bayobora abandi, ababereka ibisabwa, ababaza aho bari kugana kugira ngo babone uburyo bwo kubayobora bityo batayoba bakabura inzira ibageza aho bajya.

Iyo ndi mu rugendo ntega iyihuse kugira ngo ngere aho njya vuba ntabwo mbyiganiraga muri twegerane. Ubu cyarakemutse niyo mfite umurwayi ndayihamagaraga.

Ubwikorezi bw'ibintu bisukika buba ari ubw'ingenzi，kuko bikenerwa n'abantu benshi cyane， barabukoresha， ku buryo bwa buri munsi. Niyo mpamvu kubugira ari byiza cyane.

Ahantu hahurira ibinyabiziga n’abantu akangari， iyo igihe k'iminsi mikuru cyageze，usanga icyo bita amatike yabaye ikibazo， baratonda imirongo miremire， ugasanga baraye mu nzira，bari kugenda.

Ibikorwa remezo ni byiza cyane, uburyo bikorwa butandukanye n'uko byakorwaga kera, ubungubu birihuta cyane, kuko biba harimo imbaraga nyinshi z'umurengera, zituma bikorwa neza kandi vuba.

Ahantu hahurira abantu n'ibinyabiziga akangari buri wese ajya aho ashaka kujya. Agenda yicaye nta mvune nta n'umuvundo.

Ubwikorezi bw'imbuto zitandukanye zijya ahantu batazihinga. Ziribwa n'abantu mu buryo bwo kuzisoza ku biryo, zigira umumaro ukomeye cyane mu mubiri.

Akazi kose iyo gakozwe neza gatezaga nyirako imbere. Abamugana bamugirira icyizere kuko agakorana umuhate, ubwitonzi, bityo agakomeza kwizerwa cyane mu byo akora.

Ingendo zo mu mazi zirakorwa, abaturiye amazi bagendera mu mazi bafite ibyo bagiye gukoramo no kujya hakurya yayo, bagomba kuba bafite ibibarinda byitwa amajire, kandi bagomba kuba bagira n'ubumenyi bwo koga.

Umuntu wese ukora akazi kazwi, agomba kuba agira ibimuranga akaba agira aho aba ari, bamushakira, mu masaha yose ukaba wamuhamagara ukamubona, cyangwa ukamushakira aho aba ari ukahamusanga.

Igitsina gore na cyo， ntabwo cyahejwe mu mirimo isaba imbaraga，abagore barashoboye cyane， bakora imirimo imeze nk'iy'abagabo，kuko nabo imbaraga barazifite，bazikoresha rero，imirimo isa n'iya basaza babo.

Mu ngendo ziba zitandukanye habamo izigenda muri rusange. Hari izikorwa umuntu ari umwe zose zigera aho zishaka, aho umuntu ashaka ha mbogamizi yagize kandi agakoresha igihe kiba ari gitoya mu rugendo afite. Zdd

Kera twagenda iminsi myinshi, twageraga iyo twashakaga kujya bituvunnye ariko ubu kubera amajyambere yaje, tugenda twicaye, tukagera iyo dushaka kujya tutavunitse cyane.

Umuntu wese ufite icyo ashaka， akaba afite n'icyo aba agamije， agomba gukurikiza amabwiriza yagenwe， iyo ahamagawe aritaba，abamuhamagaye nabo bamubwira icyo bamuhamagariye， kugira ngo bubake agace baba baherereyemo.

Ahantu heza hagaragara neza, hagendwa neza kandi cyane. Abahatuye baba bafite amahirwe yo kugendererwa n'abandi baba bakeneye kuhareba, ugasanga iterambere rizamutse cyane.

Tujye twerekana ubuhanga tuba twifitemo. Umuntu iyo ashoboye kuba atinyuka agakora ikintu kandi ukabona agikora neza, ni ngombwa kuba wabyishimira kuko ntabwo bishoborwa n'abantu bose.

Umurimo wose utunga nyirawo iyo awukoze neza akagira agatima keza gakurura abantu, imvugo nziza ireshya abakiriya. Niyo mpamvu mu mikoranire umuntu agomba kugira n'umutima uba ari mwiza.

Ahantu hahurira ibinyabiziga bitandukanye, hahurira n'abantu benshi, habamo n'izindi serivisi babika amafaranga barayabikuza, bakagurisha n'ama inite, urukumva rero ko haba serivisi zitandukanye.

Abayobozi bacu badukangurira gukora siporo rimwe mu cyumweru, turabipinga, kandi umubiri wacu ubikeneye. Iyo umuntu agiye intambwe zingahe yihuse akagaruka izindi, umubiri we uba ufite icyo uruhutseho.

Abantu bose cyangwa abana bose bemererwa kwidagadura, baba ari ab'igitsina gore cyangwa ab'igitsina gabo. Bose bidagadura ku rugero rumwe, batsinda ku rugero rumwe, binjiza ku rugero rumwe, ubumenyi barabunganya ntawe usumba undi.

Abantu ntabwo bahuzwa n'imirimo gusa ifite icyo ibahemba, bagomba no guhuzwa no kwishima mu bijanye na siporo bakumva y'uko bagomba gukina neza kandi bagatsindana bikabashimisha, kuko na byo mu mumaro w'imibanire hari icyo bivuze.

Duhora duharanira gukora neza. Biba byiza iyo ukoze ukabona ikintu kizajye kikwibutsa ko kera watsinda. Ntidupfana ibitego ahubwo turwana ishyaka ryo gutsinda.

Kugira ngo umuntu agere ku cyo bita inzozi ze, ni uko aba afite umuntu umufasha kuba yabigeraho akamwitaho cyane akamuhozaho umutima we, akamushishikariza kuba yatinyuka gukora ibyo agomba gukora, kugira ngo inzozi ze azigereho neza.

Habaho ibyo bita ibipimo bigira aho bitangirira aho bisoreza, ababikoresha n'ababikora baranyurwa kuko nta wuba abangamiye undi kuko biba bikurikije amategeko abigenga.

Kwishima mu buzima biba ingenzi, ni ngombwa ko bibaho kugira ngo umubiri wacu umererwe neza, ubwonko bwacu buraruhuka, bityo bikadufasha.

Mu mikino ngororamubiri habamo ingeri zitandukanye， harimo iy'amaboko， harimo iy'amaguru， ibitsina byombi birayikina，abakobwa barayikina n'abahungu barayikina， byose ntawe utabishobora.

Ishuri ryacu turakinaga tugatsinda, tubonaga ibikombe bitandukanye, kandi intego dufite nuko tuza turakomeza gukina cane tukaguma tugatsinda, amashimwe gakaba gacu.

Umuntu wese yagira amahirwe yo kwiga atavukijwe uburenganzira, yiga kandi akagira akamaro kanini cyane, akakagirira n'igihugu cye. Niyo mpamvu nta we wagombye guhezwa mu bijyanye n'ishuri.

Ni byiza ko hagomba kubaho ahantu bajya bidagadurira, ababikeneye ku isaha baba babikenereyeho, bakaba baza bakajya ahantu bitoza, kandi naho hagomba kubungwabungwa.

Imyitozo ngororamubiri iba myiza, ifasha uwo ariwe wese uba akeneye kuyikora, kabone n'ubwo yaba atarabigize umwuga. Ariko iyo abitekereje akabijyamo, aba ashaka kuruhura umubiri we kugira ngo umererwe neza.

Siporo ni ingirakamaro mu mubiri w'umuntu, ikinwa kwinshi. Iteye ugutandukanye. Ingeri zose zirashishikarizwa kuyikora, kandi zose zirakina zigatsinda nta we usumba undi mu bushobozi.

Imyidagaduro ni ingenzi, buri muntu wese abishaka arayikora, apfa kumva yigiramo ubushobozi ndetse akaba agira n'ubushake, umuhate, byose bimubyarira inyungu, umubiri we na wo ubyungukiramo.

Uba ashaka wese arashobora, agira umuhate w'ibikorwa akora, akunda umurimo we, arishima iyo awurimo, kandi aharanira intsinzi.

Abahatanira ibikombe barafanwa, bagahangana, bemera imikirize, baratsindanwa, barahembwa, buri wese akemera, ntawe ugiye n'undi impaka.

Siporo iba nziza kumubiri wacu, nkunda na reba abantu bari kuzikora, niyo mpamvu nage, nzajya ndakunda gukora siporo, kugirango umubiri wanjye, umere neza kandi nange nizihire abandeba.

Igihugu gitekanye kigira ahantu hisanzuye ho kudagadurira hashimishije. Niyo mpamvu mbona n'igihugu cyacu gitekanye kuko nacyo kihagira. Abantu bakidagadura uko babishatse.

Iyo wemera ikintu runaka uragikunda ,uragifana urakemera mu rugero ,ntabwo ubangamira abandi kugira ngo bitakugiraho ingaruka.

Imyitozo yitwa ingororamubiri ikorwa kwinshi, mungeri z'abantu baba batandukanye barayikora, bagira ubuhanga bungana baratsinda kandi bose bashimisha ababareba.

Ikintu cyose kigira uburyo n'ibikoresho bifashisha iyo bagiye kugikora, aho bagikorera, abantu bagikora, ababereka uko bagomba kubikora. Byose bihurizwa hamwe bikabyara ikintu cyiza.

Iyo natekereje kujya kureba siporo iyo ari yo yose, ngenda kare nkicara imbere ngira ngo nzarebe neza ibyo nshaka kureba, ndishima iyo nazindutse nkicara mu mwanya wanjye nshaka.

Muri iyi minsi ikintu gikunzwe cyane ni umupira w'amaguru, hirya no hino ku isi usanga abantu bari kuvuga ngo umupira barawukunda bava mu rugo bagiye kuwureba no ku matereviziyo, ugasanga ni ibintu abantu benshi bahaye umwanya munini cyane.

Ni ngombwa kumenyekanisha igikorwa runaka kiba kirakorwa ,bagiha umwanya wacyo ubwisanzure kirabubona abagikunda bakaza kukireba uko babishaka, kuko biba biri mu mucyo nta ndishyi.

Umuntu wese agira uburyo agaragaza impano ze yaba ari mu bantu benshi cyangwa bake, haba ari n'ijoro cyangwa ku manywa, haba mu rukerera isaha wamwakurira iyo ari yo yose yaza akakwereka impano ze akagushimisha cyangwa agashimisha abandi.

Buri wese agira ikimurangaje imbere akurikije ibyo aba arimo gukora. Ni ngombwa ko ikintu cyose ukora kigomba kukuba ku mutima ukagikorana ishyaka ndetse n'umuhate ukaba ari mwinshi.

Abantu baba bahuje igikorwa baba bakerekejeho umutima wabo bose, bagikora neza bagisoza neza bibaha umusaruro ndetse bagirirwa nikizere kandi bakundwa na bagenzi babo.

Imikorere idakwiye mu kintu uba uri gukora iba mibi, ni byiza ko witwara neza, ugakora ibyo uba ukwiye gukora uko bikwiye kuba bikorwa, kugira ngo utanyuranya n'amabwiriza aba ariho bakaguhana cyane.

Ibintu byose uburyo bikorwa habamo icya mbere, hakabamo icyo hagati, hakabamo icya nyuma ntabwo byose wabigereho icyarimwe, nta n'ubwo twese twagerera aho tugomba kugera icyarimwe, habamo uwa mbere hakabamo n'uwa nyuma.

Mu duce dutuyemo tugomba kuba tugira isuku, duharura imigenderano yacu, dutema amashamba adukikije kugirango imibu yekujyamo, bityo ubuzima bwacu bujye buragenda neza, nta mbogamizi bufite.